Amashuri y'inshuke usanga kera bitarafatwaga nk'aho ari ibintu byatuma umwana ava mu rugo ku myaka itatu ariko kuri ubu ku myaka itatu umwana ajya mu wa mbere w'amashuri y'inshuke, yagira ine akajya mu wa kabiri, yagira itanu akajya mu wa gatatu, yakuzuza itandatu agatangira amashuri y'ikiciro cy'abanza.

Amashuri abanza n'ayisumbuye ubona ko rimwe na rimwe iyo abanyeshuri bigamo batahawe uburezi buboneye mu mashuri y'inshuke bigorana ko bashobora gukomeza guhatana ku rwego rwiza, ibi rero niyo mpamvu Leta yashyizeho gahunda yo gushyira abarimu mu mashuri y'inshuke bafite ubushobozi kandi babyigiye.

Kaminuza y'u rwanda usanga ariyo ifite amakoleji menshi yigamo abanyeshuri mu ngeri zitandukanye, ariko kandi nanone ntabwo kwirengagiza ko kaminuza ya East African University of Rwanda nayo ifasha abanyeshuri mu bice byinshi by'igihugu.